Abanyeshuri barasobanurirwa uburyo bakoresha gaze, iyo yafashwe n'inkongi ndetse n'uburyo warwanya iyo nkongi wifashishije kizimyamwoto.

Abashinzwe umutekano daso bakurikiye inama, kandi baturindira umutekano umunsi ku munsi niyo mpamvu bahabwa imyitozo.

ubuyobozi burahabwa ibikoresho harim bote kugira ngo zizifashishwe mu gikorwa cyo kuzambara mu gihe bagiye mu mirimo yabo ya buri munsi.

Igisirikare cy'u gwanda nic'umwuga niyo mpamvu catojwe kurinda abanyagwanda mu buryo ubwo ari bwose gwaterwa n'umwanzi, igisirikare cy'u gwanda kiriteguye.

Ni ngombwa ko abanyamaguru bahabwa umwanya wo gutambuka , ibindi binyabiziga bigahagarara, bagaragiwe na Polisi y'Igihugu ishinzwe umutekano wo mu muhanda, ndetse no gucunga umutekano w'ibinyabiziga, kugira ngo bidateza impanuka iza hato na hato. Abamotari bagomba gutegereza, abanyamaguru bakagenda mu mutekano usesuye.

Zebura korose ni ahantu abanyamaguru banyura bari kwambukiranya umuhanda, bayoborwa na polisi ishinzwe umutekano wo mu muhanda, n'umunyamaguru ashobora kuhamenya kuko haciye imirongo y' imyeru igaragaza imironko yabo, abanyamaguru banyuramo.

Umuyobozi wa polisi araha inama abaturage bicaye bamuteze amatwi bumva inama abaha kugira ngo biyubakire u Rwanda rwacu ruzira umutekano.

Inama zigezeho muri iyi minsi zikoreshwa n'abayobozi, cane cane iyo bari gutanga inama ku bo bayobora kugira ngo babone uburyo bagenda n'icyerekezo cy'igihugu cyacu.

Inama rusange zigomba gukorerwa ahantu habugenewe. Muri sare cyangwa se muri sitade. Aho abari mu nama bakurikira ijambo ry' umuyobozi.

Sare cyangwa icyumba cy'inama, aho abantu bungurana ibitekerezo bagafata ingamba zateza imbere igihugu cyacu.

Abarezi ni beza barakurikirana inama bagirwa n'ubuyobozi, kugira ngo bateze imbere igihugu. Ndetse n'urubyiruko muri rusange nabo bakiteza imbere, igihugu cyacu kikanezererwa kuko kugera ku ntsinzi.

Abayobozi barumva ijambo ry'umukuru kugira ngo bumve impanuro dufatanye kubaka igihugu cyacu cane cane ko aricyo cyerekezo turimo.

Inama y'abashinzwe umutekano ndetse n'aba gisivile barakurikirana ijambo ry'umukuru, kandi bumva impanuro abaha, kugira ngo bateze igihugu cyacu imbere.

Aho abaturage bahabwa inyigisho, hashobora kuba ari mu gikorwa cya Leta cyihariye cyangwa se mu gikorwa cy'idini.

Abaturage bari mu nama barahabwa inyigisho n'abayobozi babo mu nzego zitandukanye, yaba daso, yaba polisi ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukana.

Intara, agaseke, igisabo biteretse hasi, ibi byose byifashishwa mu gutunganya, ndetse no gutwara ibinyampeke.

Imikino yo gusimbuka uja hejuru, na yo ni imikino ugezweho kandi ngororamubiri ushimisha abawureba.

Ushinzwe gutanga amafaranga ku ikoranabuhanga bamwita umu mobilomani, aho agira umumaro wo gutanga amafaranga mu gihe umuntu ayakeneye, waba uyafite mu ntoke cyangwa se uyakineye kuri telefoni.

Guhamiriza ni imwe mu mbyino gakondo abanyarwanda bakunda, kandi n'abanyamahanga bakaza iwacu kutwigiraho.

Gukama ibitoki hifashishijwe amokoro ni igikorwa cyakorwaga hambere. Ubu basigaye bifashisha intoki ndetse hifashishijwe n'ishinge.

Kunywa itabi ugeze mu za bukuru sibyiza. Byangiriza ubuzima, ibihaha, cane cane imyanya y'ubuhumekero yose irangirika. Niyo mpamvu twifuza ko tutanywa itabi.

Ibyo kujya bitandukanye, harimo ibishimbo, ibigori, ibijumba ndetse n'byo kurya biri mu gikoresho gakondo cy'imbehe.

Umugabo arimo arakina igisoro, umukino mwiza cyane, usaba gutekereza, ndetse n'imibare myinshi. Ni yo mpamvu, udakinwa n'abana ,ahubwo ugakinwa n'abantu

Umugeni mwiza wagiye mu murenge, cyangwa se wasezeranye imbere y'amategeko. Aba asa neza ikigaragara ashobora no kuba yanakowe.

Imyeyo tuyifashisha iyo turigukora isuku, dukubura mu nzu, mu mbuga cyangwa se n'ahandi hazengurutse aho dutuye.

Imbyino gakondo ziranezeza. Ba mukeraruge ba mukerarugendo barazisura, bakaduha amafaranga, igihugu cyacu kigatera imbere, n'imiryango yacu muri rusange. Kandi abayireba irabashimisha, ndetse n'abayakura bakishima bagatera imbere n'imiryango yabo.

Imbyino gakondo zirangwa no guhamiriza, aho bamukerarugendo bazikunda bakaza kureba ibyiza by'iwacu bitatse u Rwanda kandi bigashimisha n'abatuye ako gace, iyo babonye ababyina bahamiriza.

Amamera ni amasaka binitse bakayashyira mu mazi bavanze n'itazi, akamaramo iminsi itatu amaze guhindura ibara ry'umukara, akavamo ubushera bunyobwa bukifashwa mu makwe, ndetse no mu buzima busanzwe.

Ibuye basyeraho baryita urusyo, rwifashishwa iyo bari gusya amasaka bashaka gukuramo ifu yo gushyira mu nzoga, kugira ngo bibe urwagwa.

Umwamikazi yari umugore w'umwami; kandi biyogosheshaga amasunzu maze bikababera cane ku buryo n'abanyarwanda babyishimiraga.

Ibikoresho gakondo nk'ibisabo ,uduseke ni ibikoresho byifashishwa cane cane mu gwanda gwo hambere mu gucunda amata hakavamo amavuta.

Guhamiriza ni umwe mu mico y'Abanyarwanda bo hambere, aho ushimisha abawureba ndetse na ba mukerarugendo bakabyishimira kuko birabakurura.

Umuco gakondo wo hambere, aho abantu bajyanaga umugeni bamujyanye ku musore kandi bamuhetse mu ngobyi gakondo.

Ababyinnyi babyina imbyino gakondo baragaragaza impano zabo nko guhamiriza ndetse no kugaragaza ko bashoboye hifashishijwe ingabo, inkoni ndetse n'imigara.

Kuboha ikirago n'umwuga mwiza cyane, ukorwa n'abakobwa cyangwa abagore, kandi bigateza imbere ubiboha, kubera ko bimuzanira amafaranga, akagera ku byo akeneye byose.

Isekuro ni igikoresho gikoreshwa mu gusekura ibintu bitandukanye nk'imyumbati, imboga, isombe ndetse n'ibindi binyampeke bitandukanye.

Guhamiriza ni byiza cyane. Ni imbyino gakondo abantu twese dukunda n'abanyamahanga barayikunda kuko iyo bahamiriza bishimisha abantu babireba ari nabo ubona.

Abami bo hambere biyogosheshaga mu kuburyo bw'amasunzu aho wasangaga baberewe, kandi n'abanyarwanda bakabishimira.

Ubucuruzi bw'ibikoresho gakondo; harimo ingoma, ibisabo ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, ni ubucuruzi ba mukerarugendo basura.

Ingabo zo hambere ku butegetsi bw'abami zifashishaga imiheto, amacumu kugira ngo zitsinde urugamba.

Umurwayi aryamye mu ngobyi ajanwa ku bitaro, yarwaye. Yifashishwa iyo umuntu yarwaye ashaka kugera ku bitaro cane cane ahantu hatari imihanda.

Imbyino za gakondo, izi imbyino zigezweho cyane cyane ba mukerarugendo bakunda iyo bageze iwacu mu Rwanda kuko ni umuco usanga iwacu i Rwanda.

Abantu bagiye mu bukwe bikoreye amafukire ndetse n'intango y'ugwagwa bari bwifashishe bageze aho bagiye gutaramira.

Igisura ni igiti cyangwa se ni icyatsi kibabana, cyane cyane gikunda kuba ahantu h'imisozi ndetse no mu bibaya wagisangaho.

Ibigega ni ubuhunikiro bwakoreshwaga mu myaka yo hambere, aho hashigwagamo imyaka kandi iyo myaka ntihure n'ubutaka ntibashe kwangirika.

Inanga gakondo ni igikoresho cyifashishwa, iyo ducuranga cyangwa se twizihiza iminsi mikuru tugira mu miryango. Umucuranzi akora mujya, maze ijwi rigasohoka .

Ubudozi bw'ibyibo cyangwa se uduseke ni umwuga mwiza cyane. Hakoreshwa ubwatsi bw'ishinge kugira ngo bagikore neza, tukakifashisha kugituramo abavandimwe.

Umwuga w'ububumbyi , ni umwuga ugezweho ukorwa n'abaturage cane cane ko uzana amafaranga ku bantu bawukora.

Ikigega bahunikamo imyaka kiba cyubatswe ku buryo bugezweho, imyaka ntigera hasi ahubwo ishyirwa hejuru kugira ngo itagerwaho n'ubukonje, kandi kikaba gisakaye kinahomesheje amase.

Incurango gakondo hifashishijwe iningiri ni umuco w'abanyarwanda kandi uhuza abantu kandi ukaryohera abawukorewe.

Isekuru ni igikoresho twifashisha. Cyane cyane iyo turi gusekura imyumbati, dushaka gukura mo ubugari.

Umuco w'iwacu ni mwiza cyane. Dukunda guhamiriza ,cyane cyane iyo twatumiwe mu makwe twizihiza iminsi mikuru itandukanye.

Ibishushanyo bikoze mu biti, ni ingenzi cyane ,ni imitako iboneka mu nzu ndangamurage kandi ba mukerarugendo barabikunda cyane bikatwinjiriza amadovize mu gihugu cyacu muri rusange.

Ababyinnyi ni beza bitoje imbyino gakondo, imbere y'ibirango by'u Rwanda ndetse n'ubuyobozi bubagaragiye. Njye ndabikunda cane kubera ko byanjijuye, binshimisha iyo mbabonye iyo bahamiriza imbere y'abandi.

Mu masoko habamo ibikoresho bitandukanye by'ubukorikori nk'ibirago ndetse n'ibikoresho bikoreshwa mu kuboha ibirago harimo ubwatsi, ubusuna, urukangaga ndetse n'ibindi.

Ububoshyi bw'ikirago ni umwuga mwiza cyane, uteza imbere nyirawo iyo awukoze abikunze. Hifashishwa ibikoresho byabugenewe nk'inshinge, ubwatsi ndetse n'ibindi byatuma abikora neza.

Inka z'inyambo, ni inka zigira amahembe maremare kandi zikaba inka zabaga ibwami, kuko cyabaga ari ikimenyetso cy'umwami.

Kugosora imyaka ni igikogwa gikogwa n'abahinzi, aho batandukanya imyaka ndetse n'umucanga, kugira ngo ibikwe neza ifite umutekano kandi isukuye.

Umukekano mwiza cane turayikunda, iyo tuyibonye ubuhe ubuhe ubohwa hifashishijwe inshinge n'ubwatsi bwabugenewe, igira amabara atandukanye igashimisha abayireba kandi n'abana barayikunda iyo bayibonye itatse.

Inka z'inyambo zimwe zigira amahembe maremare, uretse ko muri iyi minsi zacitse mu bworozi aho muri iyi minsi hari kwifashishwa inka za kijyambere.

Umubyinyi wa gakondo aba afite ibimuranga:" Nk'inkoni, ingabo, imigara ndetse akaba akenyeye n'uruhu". Ibyo byose bikaranga umubyinnyi uri gukora ugo mwuga.

Abami bo mu Rwanda rwacu rwo hambere, nibo biyogosheshaga amasunzu, ariko bikaba byiza cyane.

Abami bo mu gihe cyo hambere biyogosheshaga amasunzu bikababera cyane. Kandi n'abanyarwanda tukabyishimira.

Kubaza ibikoresho gakondo harimo umuvure, isekuru ni bimwe byifashishwaga mu Rwanda rwo hambere, ariko muri iyi minsi bisigaye utapfa kubibona.

Inanga ni igikoresho gakondo bakoresha bacuranga, yaba mu bukwe cangwa mu birori bikanezeza abantu babyumva, imitima yabo ikizihirwa kandi n'ubikoze akabona amafaranga, bikamuteza imbere we n'umuryango we.

Inanga ni igikoresho gakondo bifashisha bacuranga, cyane cyane mu birori ndetse no mu runywero. Abantu barayikunda cyane kuko itanga umunezero kandi abantu bakizihirwa.

Agaseke cyangwa se agatebo bakifashisha babikamo imyaka cyangwa se kugaturamo abavandimwe.

Imbyino gakondo ni umwuga mwiza cyane, cyane cyane abawukora iyo babikoranye umwete. Abanyamahanga baradusura, bakaduha amadorari tukiteza imbere, n'imiryango yacu ndetse n'igihugu muri rusange.

Imbyino gakondo zigezweho mu gihugu cyacu, abanyamahanga barazikunda, barazisura bakazitangira amadovize, tukiteza imbere, ndetse n'igihugu kigatera imbere, na sosiyete Nyarwanda muri rusange.

Abapfumu ni abantu baragura bavuga ibizaba, babesha bifashishije ibikoresho gakondo nk'impu, utujo ndetse n'ibindi bikoresho bakoresha babesha abantu kugira ngo babahe utwabo, babacuze biteze imbere.

Abami bo mu Rwanda rwa mbere, biyogosheshaga amasunzu. Kandi bikababera ku buryo n'Abanyarwanda babyishimiraga uburyo biteye.

Igikorwa, igikoresho cy'ikoranabuhanga kitujuje ubuziranenge, ni ngombwa ko twirinda ibikoresho bitwara umuriro bitujuje ubuziranenge.

Igikoresho gikoreshwa mu muriro w'amashanyarazi nko kugaragaza uburyo umuriro unganamo, ingano yawo cyangwa se n'ibindi bikoresho bigaragaza uburyo amashanyarazi akoreshwa.

Ibikoresho bifite mpuru z'umutuku ndetse n'iz'ubururu ndazitinya, cane cane ko utazizera zishobora no kukotsa.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga nk'amashanyarazi biba bifite aho bizimiriza fizibure ahongaho ni ho bongera cyangwa se bakazimiriza umuriro.

Moteri ni igikoresho cy'ikoranabuhanga, gitanga umuriro aho ukenewe, cyane cyane mu byuma bikoreshwa n'umuriro w'amashanyarazi.

Umugozi w'imashini wifashishwa mu buzima bwa buri munsi, ku muntu ufite icyo gikoresho. Cyane cyane iyo umuriro washize mu mashini.

Insengero zigomba kuba zimeze neza nk'uko abanyamadini babishishikarizwa, ku buryo zigaragaza icyerekezo igihugu cyacu kirangamiye.

Inzu bafotoreramo impapuro igira umumaro mu gihe abaturage bashaka serivise y'ikoranabuhanga, aho ibaha ibyangombwa bakeneye.

Umusigiti n'urusengero abisilamu basengeramo, rugomba kuba rufite umwihariko kandi rukozeze neza, ruri ahantu hitaruye kugira ngo rutabangamira abatuye muri ako gace.

Insengero zigezweho ni izifite urukarabiro ndetse zikaba zifite n'igisenge kiboneye.

Ibikogwa remezo nk'amashuri ,amashanyarazi ,ndetse n'amazi, bigaragaza ko igihugu cyacu cyateye imbere.

Gukora imihanda ndetse n'ibiraro, ni igikogwa ciza cane kigaragaza iterambere hirya no hino kandi abaturage bakabyishimira cane ko ari igikogwa kiganisha heza h'igihugu.

Urusengero rwa Kiliziya Gatolika ;ni insengero ziba zigezweho aho usanga ziri mu kibanza kinini imbere yaho hafite isuku, kandi hari n'amapave.

Abihayimana nk'abapadiri bavuye mu rusengero gusoma misa, berekeje aho basanzwe bakorera inama.

Icyumba cy'uburyamo ni icyumba kigomba kuba gifite isuku harimo igitanda, amashuka ndetse gifite n'amarido ku madirisha.

Ibikorwa remezo nk'amashuri, ibigo nderabuzima, byose bigaragaza ko igihugu cyateye imbere cyane ko ari ubuvuzi buhakorerwa ndetse n'uburezi bukahakorerwa.

Urusengero, ni ahantu abantu basengera Imana cane cane bashaka ibisubizo by'ibibazo bafite kandi hagomba kuba hafite isuku, nk'uko leta ibidushishikariza.

Imidugudu y'icitegererezo ni imidugudu myiza cane, aho imiryango iba ituye mu nzu imwe ariko aho kurara ahatandukanye. Ico nico cerekezo igihugu cyacu cyifuza kandi kivuga iterambere mpuzamahanga.

Insengero ni zimwe mu nyubako z'abanyamadini zigomba kuba zikoze neza, kandi zifite isuku, zikoranye ubuhanga kugira ngo ziteze impanuka hirya no hino aho zubatse.

Igikogwa kigezeho muri iyi minsi c'ubwubatsi, umuntu ashobora kuba mu nzu imwe ayisangiye n' umuvandimwe we kandi ubuzima bukagenda neza.

Igikorwa remezo, ni byiza ko kijya hafi y'aho abantu batuye nticyegere ibitari, kuko cyateza impanuka cyane cyane imvura iguye, igiti gishobora kugwira iyo nyubako.

Imihanda myiza ,yubakishije amapave ,igira uruhare mu iterambere ryigihugu cyacu ,tuyifashisha tujyana imisaruro yacu ku isoko ndetse n'imodoka rusange zitwara abagenzi zifashisha iyo mihanda.

Abaturage barungurana ibitekerezo ku bikorwa remezo by'umuhanda byubakwa buri munsi hirya no hino aho dutuye kugira ngo icyerekezo tukijemo twese.

Ibitanda bigezweho byo mu bitaro byifashishwa n'abarwayi, iyo ari burare mu bitaro, cyangwa se akahagera ananiwe nta mbaraga agifite.

Imashini zifashishwa mu gukora umuhanda, cyane cyane iyo bagiye gushyiramo kaburimbo, ni yo mpamvu bazita katiripurari, kubera ko ziba zitema umuhanda zikuraho ibitaka zibyigizayo.

Inzu yo gusengeramo urusengero, rwubakishije amatafari rushakaje amategura, ni zimwe mu nsengero zitagezweho muri iyi minsi.

Inzu yo guturamo, iri ku muhanda ni ngombwa ko iba ifite isuku, kugira ngo uyireba wese asange ari nziza kandi igezweho.

Ikiraro cyo mu kirere gikoze neza gihuza umusozi umwe n'undi. Nibigaragaza ko igihugu cyacu cyateye imbere, kandi nibyo Leta yifuza.

Akarere ka Burera ni akarere kagezweho, kubatse kijyambere, kandi abaturage barishima, ko bahawe igikorwa remezo kigezweho, n'umukuru w'igihugu.

Abihayimana, abapadiri, ababikira bari hafi y'urusengero kubera ko hafi hafi aho niho hari amacumbi yabo.

Inzu z'ubucuruzo zigezweho , zigomba kuba zubakishije amakaro ku bikuta, ndetse n'imbuga iri imbere iriho amapave abamotari baparitse imbere.

Urusengero ni rwiza cyane, turujagamo tukaririmba, tukumva turanezerewe cyane. Ikiyongereye kuri ibyo, rurashimishaga, tukizihirwa, tukabyina, tugacinya akadiho cyane.

Amazu agerekeranye azwi ku izina rya etaje, ni inzu nziza cyane ibereye umuji cane cane ahantu nyaburanga abazungu bakunda gusura barahishimira cyane.

Abaturage barabaza ibibazo abayobozi, kugira ngo bakemurirwe ibibazo bafite. Bibatere kugira imbaraga, ndetse no kubana na bagenzi babo amahoro.

Akagoroba k'ababyeyi, umuyobozi ari kubasobanurira uburyo bagomba kubana neza mu miryango yabo nta mwiryane, kandi buri wese agaha umuteka umutekano mugenzi we.

Abaturage barumva impanuro z'abayobozi kugira ngo biyubakire igihugu cyacu twifuza mu myaka iri imbere.

Ubuyobozi buratanga inama z'uburyo abaturage bashobora gufata ingamba zo kwirinda cyangwa se kwirindira umutekano, mu buryo bumwe cyangwa ubundi.

Gutangira inama buri wese yibereye mu bye nta musaruro byatanga, kubera ko buri wese atakumva umurongo ngenderwaho. Ni byiza ko dukora inama duhuje umutima.

Mu nama y'abaturage rusange ababyeyi barimo baratanga ibyifuzo byabo, babiha abayobozi, kugira ngo babibafashemo, babikemure babone uburyo biteza imbere.

Umuguzi w'inkoko cangwa se ugurisha agiye ku isoko cyangwa se avuye ku isoko kuzigura aho ubucuruzi nk'ubu butemewe mu gihugu cyacu, inkoko zigomba gutwagwa ahabugenewe.

Amato azanye ibiribwa nk'imiceri ndetse n'ibindi biribwa bitandukanye, bivuye mu mahanga binyuze mu nyanja.

Ni byizako mbere y'uko twinjira mu modoka rusange amabisi, tugomba gukaraba tukagira isuku kugira ngo twirinde indwara za hato na hato zandurira mu mwanda.

Aho imodoka zifatira abagenzi bahita muri gare, aho hantu hagaragaza iterambere ndetse n'abagenzi niho bafatira imodoka, berekeza hirya no hino mu mpande zitandukanye.

Imodoka zitwara abagenzi rusange bisi zihagaze ku muhanda, abagenzi bari kwinjiramo kugira ngo bagezwe aho bagomba kugera, kandi bakagirayo amahoro.

Parikingi y'amakamyo. Cyangwa se aho imodoka nini z'amakamyo ziparika, zizanye ibicuruzwa iwacu mu gwanda cyangwa zitegereje kuja kurangura mu mahanga.

Imodoka ya tagisi, irava muri gare irimo abagenzi, berekeza ahantu hatandukanye kugira ngo bagere iwabo amahoro.

Umugenzi arinjira mu modoka rusange, afite urugendo ,ashaka kugera kure. Niyo mpamvu abaturage batonze umurongo.

Imodoka ni nziza, cyane cyane iyo ufashe urugendo, wifuza kugera kure cane. Wifashisha imodoka kugirango uzagere yo amahoro, kandi mugihe gito cyane.

Urujya n'uruza rw'imodoka ni akajagari k'imodoka, aho ziba ari nyinshi cane mu masaha y'umugoroba, aho abakozi bataha berekeza iwabo mu rugo.

Ikiyaga cya Kivu gifite ubujakuzimu burebure, niyo mpamvu nigengesera kucyogamo.

Aho dufatira imodoka rusange hazwi nko muri gare ni ahantu haba abantu benshi cyane ndetse basanga abazunguzayi bamwe bacuruza imbuto ndetse n'ibindi bikoresho badasora, babikura mu kajagari ntibyemewe mu gihugu cyacu.

Imodoka itwara abagenzi rusange, iri mu muhanda urimo abagenzi berekeza mu bice bitandukanye, byo mu Rwanda.

Imihanda igezweho muriyi minsi, ni imihanda irimo kaburimbo. Ku mpande iriho inzira z'abagenzi kandi zikoreshejwe pave kugira ngo hirindwe impanuka za hato na hato.

Moto z'amashanyarazi, ni zimwe muri moto zigezweho muriyi minsi. Ziri kuzanwa mu Gihugu cyacu, kugira ngo zisimbure izikoreshwa na lisansi.

Imodoka nini z'amakamyo zirikoreraga cane ku buryo bitangaje. Cane cane iyo uzigereranyije n'izindi modoka, usanga zikore ibiro byinshi kurusha izindi.

Aho abagenzi bafatira imodoka, bahita muri gare, ni byiza ko abagenzi babona imodoka, kugirango bagere aho bagiye hakiri kare.

Imodoka rusange za bisi zitwara abagenzi, ni ngombwa ko zigomba kuba zihagije kugira ngo abagenzi badategereza kandi imodoka yuzuye.

Umuji wa Kigali wahawe imodoka zitwara abagenzi rusange, kandi izo modoka zigira umumaro wo korohereza abantu mu rugendo bagiyemo.

Indege ya Gwandeya yifashishwa mu ngendo zo mu kirere cyane cyane abantu bashaka kuja imahanga, bifashisha inzira yo mu kirere.

Parikingi y'aho imodoka ziparikwa, irashaje, ntabwo ivuguruye, ni byiza ko zivugururwa kugira ngo zijanye n'icerekezo Igihugu cyacu kirimo.

Imodoka iri mu bwoko bw'ivatiri e yifashishwa mu gukwirakwiza ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Imodoka rusange zitwara abagenzi iri muri parikingi, zifashishwa cane cane mu muji wa kigali, abagenzi bakabyishimira kubera ko bagera mu rugo hakiri kare.

Umupira w'amaboko si uw'abantu bakuru, n'abana bashobora kuwukina kandi bakabikora neza nk'abantu bakuru cane cane iyo batojwe neza n'abatoza bababigize umwuga.

Umukino w'intoki uzwi ku izina rya tenisi ni umukino abakinnyi bakina bishimye, kubera ko ukurura amarangamutima yabo kandi bakagera ku nsinzi.

Umukino w'intoki uzwi nka bakete bolo, urakinwa kuri sitade amahoro, cyangwa se inzu y'imyidagaduro yitwa arena.

Umukino w'amaboko uzwi ku izina voleboro ni umukino ukinwa n'ibitsina byombi yaba abahungu cyangwa se abakobwa badushishikariza gukina iyo mikino.

Umukino w'amaboko wa handibolo ni umukino mwiza cyane ushimisha abawureba, ndetse n'abawukina, cyane ko ari umukino ngororamubiri abantu bose bifuza gukina.

Imikino y'ababana n'ubumuga ni imwe muri siporo ibafasha kutigunga, kandi bakumva ko bakomeye turi kumwe. Kandi n'Igihugu cyacu kirabashyigikiye.

Umukino w'amaboko uzwi ku izina rya Tenisi, ni umukino ukorwa n'ibitsina byombi, yaba abakobwa cyangwa abahungu, bose bibona muri uwo mukino.

Umukino w'amagare ni umukino mwiza cane aho bagomba gutangirira rimwe kugirango bubahirize igihe kandi bakagenda neza nta muvundo bakarangiza neza irushanwa amahoro.

Ikipe y'igihugu Amavubi irishimira intsinzi yagezeho yabikoreye yashimishije abanyarwanda baje kureba umukino wayo imitima yabo iraruhuka kandi nabo bagomba guhembwa kuko bagejeje igihugu ku ntsinzi.

Umukino w'amaboko wa tenisi ni umukino mwiza cane, ushimisha uwukina ndetse n'abafana barawukunda, barizihiwe imitima yabo ikanezerwa, iyo babonye abakinnyi bakina banezerewe mu kibuga, ndetse bikabateza imbere muri rusange ndetse n'imiryango yabo.

Abakinnyi ni abantu barangwa na morali cyane cyane iyo bagiye mu kibuga gukina n'andi makipe barangwa n'ibyishimo baganira ishema ry'ibihugu baturutsemo kandi n'abantu bakizihigwa bitewe n'imikino mwiza bakina.

pisine aho bogera, ni ahantu hakurura abantu cyane, baraharuhukira, hagatanga ibyishimo ku baje kuhatemberera kandi ni byiza ko hajaho n'intebe zo kuruhukiraho.

Amarushanwa go kwirukanka n'amaguru, ntabwo ari igikorwa dusangamo abagabo gusa, ahubwo dushobora kugisangamo na bashiki bacu.

Umukino w'intoki wa tenisi ni umukino mwiza cyane uhurigwamo n'ingeri nyinshi, yaba abakobwa barawukina ndetse n'abahungu, imyaka yose waba ufite birashoboka.

Imikino y'intoki ntabwo ari imikino y'abahungu gusa, ahubwo na bashiki bacu bakina uwo mukino maze bagatanga ibyishimo ku banyarwanda.

Umukino w'amaboko uzwi nka basketiboro ni umukino ukinwa n'ibitsina byombi n'abakobwa barawukina, ukagorora imibiri yabo kuko aricyo cyizere cy'ejo hazaza habo.

Umukino w'amagare ni umukino ushimishije cyane abanyarwanda bakoresha, ndetse n'abanyamahanga bakadusura bakitabira iryo rushanwa kandi igihugu cyacu bigaragara ko cyateye imbere bitewe n'umukino w'amagare.

Ikipe y'igihugu cyacu Amavubi iritanga buri munsi cane cane iyo dukina n'abanyamahanga tuba tugomba kubikorera kandi tugashimisha abanyagwanda.

Gukina umupira w'amaboko ni imwe muri siporo zidufasha kunanura imikaya yacu tukagira ubuzima bwiza kugira ngo tuzagire ejo hazaza heza.

Irushanwa ry'igare, ryitabirwa n'abanyamahanga kubera ko baba baje gusura u Rwanda ngo bihere ijisho barebe uko u Rwanda gwacu gwateye imbere.

Umukino w'amaboko uzwi nka voreboro, ni umukino ubereye amaso kandi ushimisha abawukora, ukaba na siporo inanura umubiri kandi ukinwa n'abantu batandukanye.

Abakinnyi bari mu kibuga aho bakinira umupira w'intoki, kandi uyu mukinnyi, uyu mukino ushobora gukorwa n'abahungu cyangwa se abakobwa byose birashoboka.

Siporo idufasha kugorora ingingo mu bakiri bato cyangwa se abakuze, kugira ngo tugire amagara mazima. Niyo mpamvu leta idushishikariza gukora siporo buri munsi.

Njye nkunda gukina umupira w'amaguru, kubera ko ari siporo imfasha njyewe n'umuryango wanjye, cyane cyane iyo turi kwizihiza iminsi mikuru y'ubugororangingo.

Umukino wo guterera ibyuma, imihunde ndetse n'ingasire iyi mikino irashimisha cyane ko bikoregwa ahantu habugenewe ku ma sitade cyangwa se ku bibuga bibifitiye ubushobozi.

Sitade Amahoro ni sitade iri mu Muji wa Kigali, aho habera imyidagaduro itandukanye nk'umupira w'amaguru. Kimwe mu gikorwa remezo twahawe n'umukuru w'igihugu cyacu udukunda kiri ku rwego mpuzamahanga.

Umukino wa basiketi, uzwi nk'umukino w'amaboko. Ni umukino ngororamubiri, abantu bose dukunda gukina, cyane cyane ko ari siporo idufasha kugorora ingingo.

Kwakira igihembo, ni igikorwa gishimira uwatsinze kikamutera umwete wo gutsinda ikindi, igihe yaba agiye mu marushanwa.

Abakinnyi, iyo batwaye igikombe, barishima cyane, kandi bakizihirwa, mu buryo buri wese atahana ibyishimo.

Abakinyi barashyamiranye bashaka kurwana, hari ibyo batumvikanaho mu mukino wabo, ni yo mpamvu dushishikarizwa kugaragaza imyitwarire myiza.

Sitade Amahoro ni sitade yavuguruwe ku buryo butangaje, tubikesha umukuru w'igihugu ukunda abanyarwanda, akatwubakira igikorwa remezo nk'iiki cya sitade gihambaye.

Isiganwa ry'amagare. Ni igikorwa kigaragaza iterambere mu Gihugu cacu, kubera ko n'abanyamahanga bifuza kuza gukora iryo rushanwa mu Gihugu cyacu.

Imikino y'teramakofe ni imikino ngororamubiri kandi ugezweho, mu buryo ukururwa n'abawureba,

Umukino wo kwirukanka n'amaguru, ni umukino ugezweho, ukundwa n'Abanyarwanda, cyane cyane ko n'abanyamahanga baza kwitabira uwo mukino, kandi ugashimisha n'Abanyarwanda hirya no hino.

Kwangirika kw'imiyoboro y'amazi aho amazi anyura bitewe n'amazi menshi, cyangwa se abangiriza imihanda bigira ingaruka mu isubiranyuma kw'iterambere kw'igihugu.

Agace k'imisozi karangwa n'amabuye matoya, amanini ndetse n'urusheregeni rw'amabuye kandi ashobora no kwifashishwa mu bwubatsi.